Abagore n'abagabo bari mu nama bicaye ahantu hamwe bitonze, bose biyogoshesheje abandi basutse imisatsi, bameze nk'aho bari kumva amabwiriza cyangwa ikintu kitabanyuze neza cyane.

Abagabo bicaye, imbere yabo ku meza hateretse amazi mu dupara, ndetse bari no kwandika mu makaye, bakaba bari mu nzu isize irangi ry'umweru ifite n'inzugi z'umuhondo.

Abagabo n'abagore bicaye bareba imbere biteretse amazi imbere yabo uko bigaragara, hari undi muntu utagaragara uri kubabwira ijambo ndetse hari n'undi uri inyuma uhagaze wegamye ku gikuta.

Umugabo wambaye rinete ufite mikoro wambaye ishati y'umweru, uri gutanga ikiganiro. Ari iruhande rw'icyapa cyanditseho imbuto ndetse inyuma yaho hari ibitambaro biri mumabara y'umuhondo icyatsi ndetse n'ubururu.

Inama yahuje abagabo benshi ndetse n'abagore b'abayobozi bicaye muri sale yubatse neza cyane irimo amarido y'umutuku ndetse hakaba ateyemo intebe z'amabara y'umutuku ndetse n'umukara.

Abantu benshi bahagaze ahantu mu murima urimo ibyatsi, inyuma y'aho hakaba hari ibiti birebire, bakaba bafite imitaka bamwe muri bo bambaye amashati ndetse n'amafurari.

Abaturage beza bambayege imikenyero ndetse n'ingofero, bicaye abandi bahagaze bari ahantu heza hubatse inzu z'imihondo ndetse n'imyeru, zisakaje amabati akomeye barimo guserebura.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi urimo amabara y'umweru amanuye, akaba afite indangururamajwi mu ntoki y'umukara, yambaye rinete ameze nk'uri gutanga inama cyangwa ubwunganizi.

Umugore wambaye linete akaba afite fulari ku ijosi irimo amabara y'umweru n'umukara, yambaye ikanzu y'umutuku ndende, imbere ye hari intebe y'umukara ihahagaze.

Umugore wambaye ishati idoze mu gitenge, uhagaze imbere y'ameza hariho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru akaba ari kuganiriza abandi bantu bicaye imbere yabo hateretse amazi mu dupara.

Sare nini yahuriwemo n'abaturage benshi cyane uruvunganzoka hakaba hari guhugurirwamo abaturage barimo ndetse bakaba bafite amazi imbere yabo ku meza ndetse n'amatelefone, hakaba harimo abasirikare n'abapolisi.

Umugabo ubyibushye ufite mikoro ndetse wambaye na marinete n'isaha ku kuboko, ameze nk'uri gutanga amabwiriza, ayaha abantu bamukurikiye akaba ari wenyine ahagaze imbere yabo wagirango ngo hari ibintu bari kumvikanaho.

Ameza ateretseho amazi, hicaye abagabo batatu ndetse n'umugore uri kwandika, undi ari kuvuga. Bakaba imbere yabo hari abaturage babateze amatwi bari kubumva.

Sale nini irimo ibyapa by'umweru byandikishijeho amagambo y'umukara, hakaba hicayemo abantu umugore umwe akaba ahagaze, ayo meza ari imbere yabo akaba ateretseho udupara turimo amazi.

Abagore ndetse n'abagabo bicaye bareba imbere, umugore yambaye ikanzu yo mu gitenge, umwegereye afite imisatsi izirikiye inyuma, bakaba bari kureba imbere, uko bigaragara bari mu nama, hari umuntu uri kubagezaho ijambo.

Ku munsi w'umuganura abaturage barahubye barasabana nuko umuyobozi wabo abagezaho ijambo, yari yambaye neza ipantaro y'ubururu ndetse n'ikositimu y'umukara akaba afite mikoro.

Inzu nziza isize irangi ry'ubururu bwererutse, hakaba harimo ameza ndetse n'intebe ebyiri hicayeho umugabo wifashe akaba yambaye ishati y'umweru imbere ye hari igitabo ndetse na telefoni enye.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ufite indangururamajwi akaba ari imbere y'abandi baturage benshi, inyuma ye hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku akaba ari kubabwira ijambo ribageraho uwo munsi.

Abagabo babiri bambaye amashati y'umweru ndetse n'inkweto zifunguye umwe yambaye urunigi rurimo amabara ndetse n'isaha undi we yambaye urunigi afite n'inkoni uko bigaragara bari mu bukwe bari mu misango yo gutanga umugeni.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa muri gakondo babyina cyangwa se bimwe bambika imbwa ziri guhiga bita amayomba, mu kinyarwanda cyiza babyita amayogi.

Salle irimo abantu benshi ndetse n'abandi bari kubyina bambaye imikenyero ndetse n'utunigi, bakaba bari guseka kandi bari gushimisha ababakurikiye uko bimeze bari kubyina imbyino gakondo.

Inka nini ifite amahembe maremare yo mu bwoko bw'inyambo ikaba iri mu rwuri iri kurisha urwuri rubamo inzoka nyinshi zifata amatungo zikayaruma.

Ikibuga kinini cyubatse neza cyane kirimo ibiti bikurura umwuka harimo ababyinnyi babyina imbyino gakondo bafite ingoma ndetse n'imirishyo bakaba bitegura gususurutsa imbaga y'abantu.

Itorero gakondo rifite abasaza bazi kuvuza ikondera ndetse n'abazi kubyina bakaba bari gutaramira abashyitsi baje gusura umudugudu wabo ndetse bakaba bagiye no kubagezaho ibihembo.

Agaseke gateretse ahantu mu ibara ry'umutuku, kakaba kabohesheje ubudodo bw'umukara ndetse n'umuhondo wa oranje, kakaba gakoreshwa mu gushyiramo ibintu no kubibikamo ndetse no mu rusengero, bari gutura.

Mu kigo cy'amashuri cya Kaminuza haje abashyitsi, baje kureba imyigire ndetse n'iterambere ry'icyo kigo, hasanzwe itorero ribyina imbyino gakondo rirabanza rirabataramira.

Igiti gicometse mu kindi, kikaba kiyinjijeho urudodo ndetse n'akandi gati k'umweru, hasi hari akandi kameze nk'umuheto bakoresha bacuranga, iyi ni yo bita inanga.

Urusyo bakoresha bari gusya amasaka, bikaba byarakoreshwaga mu gihe cya gakondo, hirya y'aho hari agaseke ndetse hino hari intara ebyiri zirambitseho amasaka yasewe ndetse n'atarasya.

Inzu nini yakira abantu benshi hakaba hari kuberamo imyiyereko y'ababyinnyi babyina imbyino gakondo, hakaba hari n'abandi bantu baje kubareba. Muri iyo nzu harimo icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho amagambo y'imihondo ndetse hakaba hasi hari n'ibyuma byo gucuranga.

Imbyino gakondo ndetse n'imyambaro gakondo, imyenda myiza cyane harimo urunigi, n'ingabo, icumu, ndetse n'imikenyero yambawe n'ababyeyi, bari kubyinira imbere muri sale.

Umugabo wambaye inkweto z'ibyuma uziritse imigozi ndetse akaba yambaye n'inkweto y'akazi, akaba ari kurira ipironi akaba agiye kureba ibibazo byabaye mu mashanyarazi ndetse akabikora neza.

Abagabo bishyize hamwe ubundi bihangira umurimo wo kudoda inkweto ndetse no kuzikora, bakaba bafite imashini ndetse n'ibisarubeti bambara iyo bari ku kazi kabo.

Inzu yubatse ahantu heza ikaba ifite inzugi z'imituku isize irangi ry'umweru ikaba imbere yaho hamennye amabuye y'umweru arinda amazi kuyacukura ndetse no kujya mu nzu.

Abize ibijyanye n'amashanyarazi bakaba bari bari kwesitara ibikorwa remezo byabo, kugira ngo umuriro ubashe kugera ahandi utageraga mu bice by'icyaro ndetse n'ahandi byapfuye.

Umukobwa mwiza wambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'ingofero y'umuhondo wize ibijyanye n'amashanyarazi akaba yuriye ipoto yagiye kureba ikibazo cyabayemo nyuma y'uko umuriro wanze kugenda.

Amapironi akoreshwa mu gutwara umuriro ndetse bakayoboraho n'insinga kugira ngo ajye umuriro ugere ku baturage, yubatse mu gisambu hirya yaho hari ishyamba rinini cyane.

Umurima ushinzemo imbaho, hirya yaho hari ishyamba ririmo ibiti birebire, izo mbaho zikaba ziriho imirasire y'izuba izana imbaraga z'amashanyarazi mu ngo ndetse hirya hari amatanka y'ibara ry'ubururu.

Abagabo babiri bambaye ibisarubeti by'ubururu bakaba bari hejuru ku ipiironi ritwara umuriro, bakaba biziritse imikandara mu nda ibafasha kutaza gukora impanuka.

Muri parike ibamo inyamaswa ikaba yari nini kandi irimo ibiti birebire, bacishijemo ikiraro abaturage bagendamo kugira ngo babashe kuzenguruka iryo shyamba rwose.

Amashuri yubatse ahantu heza cyane hateye ibyatsi, hanze hakolotiye na sima kandi hakaba hari n'amatara amwe bashyira ku mihanda azana urumuri ninjoro kugira abantu babashe kureba neza.

Isoko riri hepfo y'umuhanda wa kaburimbo ryubatse neza bakaba bari gushyiraho uruzitiro ruzajya rurinda abajura kuba bakwinjiramo bakangiza ibikorwaremezo mu gihe cy'ijoro.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, imbere ye hari abapolisi, hakaba hari n'ahantu hari umuryango wanditseho Uganda hejuru, uko bigaragara ni ku mupaka.

Umudugudu w'icyitegererezo uri kubakwaho inzu zimeze kimwe ndetse hakaba hari kunyuramo n'imihanda ya kaburimbo mishyashya ndetse n'ishaje bari kuyivugurura kugira ngo habashe gusa neza kurushaho.

Inzu ishaje iriho amabati yenda kugwa, hanze hakaba haparitse imodoka ebyiri: imwe y'umutuku n'indi y'umweru. Ikaba ikingishijwe inzugi z'ubururu hariho na fondasiyo ishaje cyane.

Abagabo bahagaze imbere y'inyubako isize irangi ry'ubururu iriho icyapa cy'umweru cyanditse mu magambo y'umukara, bahagaze bari kwifotoza bameze nk'aho bavuye mu nama.

Sitade nshyashya yubatswe kugira ngo ijye yakira amarushanwa y'imipira ndetse habashe no kujyamo ibindi birori urugero nk'abahanzi baje iri kunozwa neza isuku bari kuyikoramo.

Akarere keza kubabatse hagati y'indabyo z'umuhondo, ndetse n'ibiti birebire bigakikije, biri muri bimwe bikurura imvura ndetse n'umwuka duhumeka. Hakaba hanze hashinze igiti kiriho idarapo, ndetse hakaba hari n'abantu bahegamye.

Umuhanda mwiza cyane wubatswe hepfo y'amazu acururizwamo, akaba yaraciwe hagati y'umusozi watandukanyaga uturere kugira ngo bigende neza barawusatuye.

Imbuga nini cyane irimo amasoko atatu yubatse neza, n' andi abiri ari ruguru yaho asanzwe akorerwamo ubucuruzi. Hakaba hari inzu iri hirya y'aho ku muhanda isize irangi ry'umweru.

Inzu zishaje zubatse imbere y'ishyamba ry'ibiti birebire, zikaba zisakajwe utubati dushaje, imbere yaho hari imbuga y'itaka, bigaragara ko zishobora kuba zikoreshwa mu guhunikwamo imyaka.

Ku nzu y'inyongeramusaruro yubatse ahantu heza, isize irangi ry'ubururu ifiteho amabati akomeye asize irangi ry'umutuku. Hakaba hanze hari abagore n'abagabo bahicaye abandi bahagaze.

Nyuma y'uko imvura iguye ikangiza umuhanda wacagamo imodoka ugashwanyagurika ndetse hakanyuramo n'amazi menshi cyane yeretsemo abuza imodoka n'ibindi binyabiziga gutambuka.

Inzu isakaje amabati y'imituku, inyuma hakaba hari inkingi ihubatse zitambitsemo ibyuma, imbere yaho hari igisambu kirimo ibyatsi bita urwiri, bakoresha bagaburira amatungo urugero nk'inka ndetse n'intama.

Inzu iri haruguru y'umuhanda, ikaba hepfo y'ibiti birebire, ishaje bigaragara nk'aho yari akagari, ikaba imanitseho ibitambaro by'imyeru ndetse n'umukara.

Inzu isize irangi ry'ubururu isakajwe amabati y'umweru kurukuta hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ariko ari ku gipapuro cyu'mweru hanze hakaba hateretse intebe.

Ikibanza cyiza kinini kirimo inzu isakajwe amabati y'umutuku ndetse ikaba isize irangi ry'umweru, imbere yaho hari indabyo ndetse n'imikindo biyikikije biyigaragaza neza, hakaba hariyo n'inzira igiyeyo ikoze neza.

Nyuma y'uko amazi afunze inzira leta yubatse ikiraro gihuza uturere kugira ngo habashe kongera kubaho ubuhahirane bwari bumaze iminsi butagikora kubera icyo kibazo.

Ahantu heza hahuriye abaturage biteze ibitambaro by'imyeru ndetse n'umutuku imbere yaho hari inzu isize irangi ry'umweru haruguru hari intebe zihateye ndetse n'ameza yicayeho abayobozi bari kubaganiriza.

Abaturage benshi bahuriye muri sitade, bari kuganira n'abayobozi babo ba bishimira ibyiza bagezeho, kandi batanga ibitekerezo bafite imihigo myinshi yo kwiteza imbere ndetse no kubaka igihugu cyabo.

Abaturage bicaye ku ntebe zigamirwa, bambaye amashati y'imyeru, ndetse n'abagore bambaye ibitenge bafite malete hakaba hari n'umugore munini cyane uhagazemo hagati uri kubagezaho ijambo.

Abagabo bahagaze ku murongo ndetse harimo abagore bafite imikenyero n'abandi b'abasirikare bakaba bari hafi y'ubusitani burimo indabyo nziza butwikiriye n'amabati.

Abantu benshi bicaye hagati yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi, inyuma hubatse igisharagati gifite amabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo. Hagati yabo hakaba hateyemo igiti kinini cyane.

Inzu nziza iri hagati y'ibiti birebire hakaba hicaye abaturage baje mu nama hari umuyobozi wabo uri kubabwira ijambo ndetse bamwe bahagaze ruguru hafi y'idapuro ry'igihugu.

Imbuga nini ihagazeho abantu benshi batonze umurongo harimo n'abasirikare bazanye indabyo bakazirambikaho, Hirya yaho harihoyo inzu iri mu'i ibara ry'umweru ndetse isakaje amabati y'umutuku.

Abagabo batatu bicaye ku ntebe z'imbere ziriho agatambaro k'umweru ndetse inyuma yaho hakaba hicaye abandi bantu benshi, harimo abambaye amarinete bakaba bari mu nama hari ibyo bari kwitegereza.

Ahantu heza hubatswe igisharagati kiribwakirirwemo abageni bavuye gusezerana, hari abantu benshi baje kureba ibyo birori, bamwe bari gufotora abandi bari kunywa, hari ufite indangururamajwi ari buze kubagezaho ijambo mbere y'uko ubukwe butangira.

Umugore wambaye ikanzu yo mu gitenge ndetse n'abagabo babiri, umwe yambaye ipantaro y'umukara ndetse undi yambaye bote, bari imbere y'abandi bicaye bakaba bameze nkaho bari gutanga ibibazo.

Salle irimo abagabo ndetse n'abagore bafite amazi ateretse ku meza abandi bari kwandika mu makayi, inyuma yaho hari ibyapa ndetse inzu barimo ifite amarido maremare.

Abagabo benshi bicaye mu nzu ndetse bamwe bahagaze harimo abashinzwe umutekano bamwe bita abasirikare bicaye mu nzu irimo amakaro isize n'irangi ry'umweru, bakaba bateze amatwi umuntu uri kubabwira.

Umuhanda mwiza wa nyabagendwa ukaba uparitsemo imodoka y'umweru ku cyapa kiriho imodoka ndende cyandikishijeho ingombajwi z'umweru hakaba haciye insinga z'amashanyarazi.

Imodoka nziza itwara abagenzi iparitse ikaba ifite irangi ry'umweru ndetse n'iry'ubururu haruguru yayo hari abantu bahagaze bategereje kuyinjiramo kugira ibajyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugore wambaye ishati y'umweru wegereye iduka ricuruza imyenda ndetse n'inkweto, imbere yaho hari inzu iriho ibyapa by'amabara y'umukara ndetse n'umweru hasi yaho hakaba hicaye umumotari.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi iri aho basanzwe baziparika, hepfo yayo hari abaturage benshi bategereje izindi ndetse bafite n'ibiribwa inanasi ndetse n'amatunda.

Umuhanda mwiza wubatswe neza uparitsemo umumotari uri kumwe n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'ingofero y'umweru bari imbere y'inzu isize irange ndetse ikaba ikinze.

Imodoka y'ibara ry'umweru yanditseho toyota inyuma, iparitse imbere y'inzu isize irangi ry'umweru hakaba hamanitseho ibyapa biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru. Inyuma yaho hari jaride iteyemo ibyatsi.

Amarembo ava mu mugi, hakaba hubatse inzu nziza isize irange ry'umuhondo n'indi isize irange ry'ubururu. Inyuma hakaba hari porutayi kandi hakaba hari imbuga nziza cyane.

Umuhanda utsindagiye ujya mu mujyi ukaba urimo abaturage bafite amagare ndetse n'abandi bari kugenda n'amaguru, inyuma yaho hari imodoka nshyashya iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Ahaparikwa imodoka zitwara abagenzi hari imodoka eshatu zihari nini z'ibara ry'umweru ndetse n'umutuku zahakoreye impanuka, hakaba hari abaturage bambaye imyenda y'imyeru baje gukora ubutabazi.

Inama yahuje abaturage, yabereye mu kibuga kinini, haje abapolisi bari bambaye imyenda y'akazi, akaba afite mikoro iriho ibara ry'umutuku ndetse inyuma ye hakaba hari intebe z'imyeru.

Ikibuga cyiza kiri hepfo y'umurima uhinzemo amasaka kikaba kirimo abaturage bari gukoreramo inama, hakaba hari ibyapa bihamanitse biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Umurima munini uteyemo ibiti ndetse hakaba hari ahandi abahinzi bari guhinga bafite amasuka, bamwe bayazamuye abandi barahagaze bari gutera ikiganiro. Biravugwa ko hano bagiye kuhahinga ibirayi.

Inzu nziza iririmo inzugi z'icyatsi, hakaba hicayemo umugore w'umupolisi wambaye imyenda y'akazi akaba afite telefone na mashini imbere ye ku meza, hirya hari impapuro.

Umugezi uri hepfo y'ikibuga cy'umupira habereye inama yahuje leta ndetse n'abaturage, hakaba hari hari gutangwa amabwiriza n'umusirikare wari wambaye imyenda y'akazi ndetse hepfo ye hari hicaye umugabo wambaye ingofero y'umukara.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko inkumi n'abasore inyuma hakaba harimo abasaza n'abakecuru bari muri siporo ikorwa buri gihe ku mugoroba urabona ko ku muhanda babacaniye amatara kandi n'ibinyabiziga babikuye mu nzira.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi bari gusuhuzanya bambaye imipira y'umutuku ndetse n'imipira y'ubururu, inyuma y'aho hari inzuzi zihubatse ndetse hakaba hari n'ibiti birebire by'inturusi.

Umukinnyi wambaye amasogisi y'umukara, inkweto z'umutuku ndetse n'ikabutura n'umupira by'ubururu uhagaze mu kibuga imbere yi'izamu, bigaragara ko ari gukina umupira w'amaguru ndetse akaba agiye hanze y'ikibuga.

Abantu benshi bicaye muri sitade irimo amabara y'ubururu ndetse ikaba irimo n'intebe z'imifariso bisa nk'aho izi ntebe zicaramo abayobozi baba baje kureba umupira cyangwa baje mu zindi nama z'abayobozi bakomeye.

Ikibuga cyiza cyane gishyashya kiri ahantu ku muhanda urenze umujyi kikaba kigiye kuberarwamo imikino, ikipe irimo yambaye imyenda y'imyeru ndetse na godiyo z'umukara.

Abayobozi bashinzwe siporo mu karere ka Nyagatare bishimiye ikibuga gishyashya bubakiwe ndetse bakaba bari kuvuga ko bashaka no kuzamura ikipe yabo y'umupira w'amaguru ikagera hejuru ku buryo izakina icyiciro cya mbere cy'amarushanwa mu Rwanda.

Ikibuga cyiza cyane cy'imbuga kitarimo ibyatsi byinshi usibye aho abafana bicara, harimo abakinnyi bari gukina, ndetse bambaye amajezi y'imyeru n'imikara.

Bamwe mu bagize ikipe y'umupira w'amaguru bakaba bahagaze mu kibuga mo hagati, bakaba bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'amasogisi y'umuhondo, umuzamu wabo akaba yambaye umupira w'icyatsi n'amasogisi y'icyatsi akaba afite na ga z'abazamu mu ntoki.

Aha ni kuri Sitade y'Akarere ka Nyagatare bari kubera siporo ngororamubiri ndetse bakaza guhabwa n'inama ku bijyanye n'ubuzima nyuma yo gukora siporo mu gihe baba bari kuruhuka, ibi ngibi bifasha urubyiruko ndetse n'abandi bantu bakuru mu guhura no gusabana no gukomeza umubano.

Abagore babiri bafite icyapa cyanditseho Umurenge Kagame hakaba n'undi mukobwa ufite baro bakina mu kibuga bari kwifotoza, umukobwa wambaye umupira w'umukara ndetse n'uwundi wambaye ipantaro y'umweru bafatanye ku rutugu.

Abantu bari mu kibuga, bakaba bahagaze batambitse amaboko. Inyuma yaho hari itara riri kwaka cyane. Nkuko bigaragara bari gukora siporo, ndetse bakaba bari no kwinanura.

Igisharagatiti kinini kirimo abantu bicaye ndetse n'inzego z'umutekano na polisi. Kikaba cyubakishijwe shitingi z'umweru ziriho amabara y'umuhondo ,icyatsi ndetse n'ubururu.

Umusifuzi wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ikabutura y'umukara uhagaze inyuma y'ikibuga akaba amanitse icyapa cyanditseho inyuguti ebyiri ku munani ndetse na kane akaba ahindukiye ari kwereka abari inyuma ye.

inzu nziza zubatse ahantu hari ibiti byinshi byiza bikurura umuyaga kandi bakaba babyugamiramo izuba, hegereye ikibuga cy'umupira w'amaguru aho hari abana bari kuhakinira.

Abagabo bicaye ku ntebe z'ubururu bambaye amakabutura y'imihondo ndetse n'inkweto, hasi yabo bakaba bafite amazi yo kunywa, imbere yabo haciye umuhanda ujya mu kibuga cy'umupira w'amaguru.

Ikibuga cy'umupira cyubatswe vuba kirimo amabara yu'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hagati harimo abakinnyi bahagazemo ndetse bari kuganira n'abatoza babo, biragaragara ko bagiye gukina.

umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'imye mo hagati atandukanya amerekezo yimodoka, ku mpande hakaba hari umwanya abanyamaguru banyuramo, kugira hirindwe impanuka zitateganyijwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo akabara k'umuhondo, ukaba ukoreshwa n'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'imizigo, hakaba hanyuramo n'abantu bagenda ku maguru.

Umuhanda mubi cyane ujya ahari inzu nziza yubatse neza ifite inkingi eshatu zisize irangi ry'umweru ndetse n'umukara, hepfoye aha hakaba hariyo ibiti ndetse n'ishyamba bigaragara ko harimo inyamaswa ngo zonera abaturage.

Porotayi isize irangi ry'umweru, inyuma yaho hahagaze abagore ndetse n'abagabo bafite ibikapu mu ntoki, hirya hari abamotari bicaye kuri moto, haruguru yaho hakaba hari agasanduku ka MTN.

Umujyi mwiza cyane urimo umuhanda wa kaburimbo ndetse hakaba hegereye ikibuga cy'umupira w'amaguru, hirya yaho hari inzu nziza zihubatse, muri uwo muhanda hari kugendamo umuntu ufite igare uhetse ibyuma.